Ndabona ari abaturage bari baje mu nama, nko ku buyobozi, inama zubaka igihugu, zigateza abaturage imbere, bitewe n'inama babagiriye. Ndabona ari abaturage baba basa nabo bitabiriye inama, imbere mu buyobozi.

Aha ni ahantu hari hateraniye abantu benshi, bateranijwe no kumva inama, kuko ndi kubona harimo umuyobozi wa polisi, abakoresha inama. Abaturage benshi bakoreshwa inama na polisi.

Iki giti kiri mu bwoko bw'umuvumu, bakibazamo umuvure, bakawufukura, akaba ariwo bengeramo bya bitoki bakama, bakaba banawuheramo inka bayiha amazi.

Uyu mudamu ndabona afite agaseke, yari asa n'aho ari kwamamaza agaseke ke, wenda arabuboha kugira azabone abakiriya. Azabone uko yiteza imbere.

Aba ni abadamu n'abakobwa benga ibitoki hakavamo umutobe, cyangwa se bakawugiramo inzoga ,cyangwa inzoga yavamo bakaba bagurisha amafaranga, ya yindi yasaguka bakayinywa.

Hano hari benshi, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bahingaga, bari hamwe, bafashe amasuka bari guhinga. Ahantu hari hanini cyane. Bagiraga nabo biteze imbere.

Uyu ni umuzinga w'inzuki bagiye kwegeka ahantu, inzuki zizanyemo ubuki baraburya, ubuki bukavamo n'umuti, ubuki ni bwiza mu mubiri wacu.

Izi ni intore ziri kwiyerekana mu birori ahantu hateraniye abantu benshi, ziradushimisha zigatuma twishima twataha tunezerewe. Intore ni nziza cyane, ziba zizi guhamiriza.

Ni ibijyanye n'umuco nyarwanda ibibindi, ibisero, uduseke ni ibiranga umuco nyarwanda n'amasekuro n'imisekuzo yazo.

Iyi ni fotokopiyeze bakoresha bafotora impapuro, bazikoresha muri papeteri ahantu henshi hatandukanye.

Ndabona ari inyubako ya Sako iriho umucuruzi wa MTN. Haba hariho n'abakiriya bo ku mucuruzi wa emutiyeni. Inyubako ya Sako. Sako aba ari iyo kugira ngo abaturage bajye bayibitsamo banabikuze, baniteze imbere banafatamo n'inguzanyo. Sako rero iteza abaturage imbere.

Uko bigaraga uyu wari umujyi, ariko byaba bigaragara ko bwije, uyu ni umujyi izi nyubako ni izo mu mujyi n' buriya muhanda, ahantu hanyura abantu benshi n'amamodoka menshi, ariko ziriya nyubako ni izo mujyi.

Abagore nabo ntabwo basigaye mu iterambere ,atwaye umuzigo avuye gusarura ibisa n'ibihaza, ubwo rero ni byiza kuba nawe atwaye igare, nawe ntiyasigaye mu iterambere . Ni byiza cyane.

Aba ni abanyonzi batatu batwara abagenzi, babajyana mu cyerekezo kimwe. Nabo baba bagira ngo biteze imbere batwara abagenzi.

Izi ni imodoka ziba zipakiye imizigo, ziparitse zitegura kubijyana ahantu, bijanye n'iby'ubucuruzi. Zisa n'aho zigiye mu cyerekezo kimwe.

Abo ni abakobwa baba bari mu mukino wa siporo, ndabona ariwo bita vore, nabo bari mu mukino wa siporo bagorora ingingo zabo, siporo ituma ingingo zigororoka, igatuma mu umutwe haruhuka.

Uyu ni umupira bakinisha siporo ya basiketi bari muri siporo, siporo ikaba nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi, ituma imitsi igororoka neza, ituma umubiri wacu ukora neza.

Aba ni abakobwa baba bari gukina basiketebolo. Baba bari mu mikino ya siporo. Siporo ituma umubiri ugororoka.